Tugira ubwoko bwinshi cyane bw'ibitaro, hari ubwitwa farumasi, bucuruza imiti ntabwo bagendera ku muntu watanze mituweri. Hari abakorana n'ubwishingizi bwa Rama, abandi bakorana na Emumaye, urebye ntabwo ari kuri mituweri cyane cyane. Bacuruza imiti myinshi iba itandukanye: iy'amenyo, iy'amaso, iyo munda, iy'ise, n'indi miti myinshi cyane iba itandukanye

Tugira ibitaro byinshi cyane, biba bitandukanye n'ibyo bacuruzaho imiti batagendeye kuba umuntu afite mituweri, bagira imiti myiza cyane iyo tutanze mitiwere tujya kuhivuriza, bagira imiti y'amenyo, iy'ise n'iyindi miti myinshi cyane iba itandukanye.

Ubuvuzi gakondo ni bwiza cyane, kuko hari abantu baba badafite amafaranga iyo baba barwaye yo kujyana kwa muganga bigatuma abakoresha ubwo buvuzi bagakira neza.

Tugira imiti myinshi cyane ya kinyarwanda iba itandukanye. Ituvura indwara nk'amateke avura ingurube indwara bita gateniya ituma zinnya cyane. Nk'abantu tuvurwa n'imiravumba, imibirizi, n'ibindi byinshi. Iyo tuba turwaye mu nda cyangwa umutwe.

Tugira imiti ya kinyarwanda iva ku bihingwa by'umwihariko nk'igihingwa cy'umusave , ibishikashike, ibinetanete byose ni imiti imiravumba n'imibirizi byose ni imiti.

Imiti ya Kinyarwanda turayikenera mu buzima bwacu bwa buri munsi dusangamo nk'igikakarubamba kivura indwara nyinshi, kivura mu nda, kivura ibiheri n'ibindi byinshi.

Tugira imiti myinshi ya kinyarwanda igira akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu, habamo amababi y'ibibonobono, amababi y'umuravumba, amababi y'imibirizi.